Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho basuzumira abana bato baje kwivuza. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gusuzuma umwana, areba ikibazo afite kugira ngo amuvure.

Ku ivomero rusange, aho abaturage baza kuvoma amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo. Hari umwana ukiri muto, ari kuvoma amazi ava muri robine ajya mu ijerekani yaje kuvomeramo. Iruhande rwe hari umugore, uri kumufasha kuvoma.

Ahari imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gusukura amazi mabi y'ibiziba, zikayahinduramo amazi meza kugira ngo abaturage bajye kuyakoresha mu mirimo yabo itandukanye yo mu rugo, aha kandi hateye ibiti by'ubwoko bwinshi.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe bakurikiranye inama kandi imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi meza yo kunywa ndetse n'amakaye yo kwandikamo inshamake y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, higanjemo abasore ndetse n'abagabo. Bicaye hamwe, bari kuganira kandi imbere yabo hari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibyo kunywa.

Hanze y'inyubako y'Ikigo Nderabuzima cya Kigina, ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage. Cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore n'abakobwa ndetse n'abaganga.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bahagaze hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso kandi inyuma yabo hari ibyapa byerekana insanganyamatsiko yaranze inama.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi.

Ku ivomero rusange aho abaturage b'ingeri zitandukanye bazana amajerekane ndetse n'indobo kugira ngo bavome amazi meza arikuva muri robine ajya mu byo baje kuvomeramo. Hakurya y'ivomero hateye ibiti by'ubwoko bwinshi.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye. Kiri gukorwa n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi imbere yabo hari ameza arambitseho mudasobwa ndetse n'amakayi.

Ku ivomero rusange aho abaturage bavoma amazi meza yo gukoresha imirimo itandukanye mu ngo zabo, hari umwana ukiri muto uri gukaraba amazi ari kuva muri robine ayoga mu maso ye.

Hanze y'ikigo cy'amashuri umwana ukiri muto wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, ari kuvoma amazi mu kigega akoresheje igikombe kugira ngo ayanywe bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ku kiyaga kivamo ibiribwa by'amafi, hari umugore wazanye ijerekani ari kudaha amazi ava mu kiyaga ajya mu ijerekani ye, iruhande rwacyo hari umusore uri koza ipine y'igare, ndetse hakurya y'ikiyaga hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abagize itsinda ry'abajyanama b'ubuzima harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bambaye imyambaro y'akazi kandi bafite amakarita abaranga, imbere yabo hahagaze umuyobozi wabo.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abagize itsinda ry'abajyanama b'ubuzima, harimo abagore ndetse n'abagabo. Bahagararanye n'abayobozi babo, bari gufata ifoto y'urwibutso, bahagaze hamwe.

Ku ivomero rusange, aho abana bakiri bato bazana amajerekani bari kuvoma amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo bajye kuyakoresha mu ngo zabo, hakurya y'ivomero hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Hanze y'inyubako ikigo nderabuzima cya Kigina ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, imbere muri iyi nyubako hari icyapa cyerekana serivise ziri gutangwa.

Ku ivomero rusange, aho abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bari kuvoma amazi meza mu ndobo zabo ndetse no mu tujerekani kugira ngo bajye kuyakoresha imirimo itandukanye. Hakurya y'ivomero hateye ibiti by'ubwoko bwinshi.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye. Cyitabiriwe n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, imbere yabo hateretse ameza ariho ibikoresho biri gukoreshwa mu gukingira.

Umwana ukiri muto w'umunyeshuri wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza kugira ngo akureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi biturutse ku mwanda.

Ku ivomero rusange aho abaturage b'ingeri zitandukanye bazana amajerekani ndetse n'indobo kugira bavome amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, hari umusore uri kubafasha gusunika amazi ava muri robine ajya mu tujerekani baje kuvomeramo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hamwe barebana bari kuganira kandi imbere yabo hari amakayi yo kwandikamo incamake y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe bakurikiranye inama kandi bafite amakaye yo kwandikamo incamake y'inama.

Ikiyaga kivamo amafi yo kurya ndetse no kugurisha, hariho abana bakiri bato bazanye amajerekani aho bari kudaha amazi ava mu kiyaga ajya mu majerekani yabo, iruhande rw'ikiyaga hateye ibyatsi.

Mu rugo rw'umuturage aho umujyanama w'ubuzima wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, yasuye umuryango ari kubaganiriza uburyo bagomba kwitwara kugira ngo barusheho kugira isuku ndetse n'imibereho myiza.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gusuzuma umwana ukiri muto kugira ngo amenye ikibazo afite.

Umwana ukiri muto w'umuhungu, ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo akureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi, iruhande rwa robine hari indobo zifite ibara ry'ubururu.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso kandi inyuma yabo hari icyapa kinini, cyerekana insanganyamatsiko y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama, imbere hahagaze umugore ufite indangururamajwi ari gukoresha inama atanga ibitekerezo bye. Inyuma hari ibyapa byerekana ibyaranze inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe barebana, bari kuganira kandi imbere yabo hari ameza ateretseho amakaye.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Harimo intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza ateretseho mudasobwa. Muri iki cyumba kandi, harimo icyapa cyerekana insanganyamatsiko y'inama.

Kimwe mu cyumba kiri mu kigo cy'amashuri, harimo abana bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bicaye hamwe bari kumwe n'abayobozi babo bari kuganira, muri iki cyumba kandi harimo ameza ateretseho ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore, ndetse n'abakobwa, bahagaze hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso, kandi iruhande rwabo hari icyapa kiri kwerekana insanganyamatsiko y'inama.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangira ubu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo umurwayi wicaye ku gitanda ari kwitabwaho n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bari kureba ikibazo afite.

Ku ivomero rusange, aho abaturage bavoma amazi meza yo gukoresha imirimo itandukanye mu ngo zabo, hari umugore uri kuvoma amazi ava muri robine ajya mu majerekani yaje kuvomeramo, iruhande rw'ivomero, hateye ibyatsi by'ubwoko bwinshi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari kwita ku mwana ukiri muto uteruwe na mama we, kugira ngo amusuzume amenye neza indwara afite.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye, hari abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari gusuzuma abaturage, bareba ko nta bibazo bafite bishobora kwangiza ubuzima bwabo.

Ku ivomero rusange aho abaturage bakura amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, hari abana bari gusunika robine ikavomo amazi ajya mu ijerekani baje kuvomera, hakurya y'ivomero hateye ibyatsi.

Ku ivumero rusange ahari umwana ukiri muto w'umuhungu uri gukaraba intoki akoresheje amazi meza ari kuva muri robine, kugira ngo akureho imyanda iyo ariyo yose ishobora kumutera uburwayi, iruhande rwe hari indobo zifite ibara ry'ubururu.

Ku ivomero rusange aho abaturage baza kuvoma amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, hari umugabo wazanye ijerekane, ari kuvoma amazi ava muri robine ajya mu ijerekaniye, hakurya y'ivomero, hateye ibyatsi.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe, bakurikiranye inama, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, arimo amazi meza yo kunywa.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bose bambaye udupfukamunwa kandi baritwikiriye mu mitwe yabo, bafite ibikarito birimo imiti.

Umwana ukiri muto w'umuhungu wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Afite ibirahure mu ntoki ze, birimo amazi meza yo kunywa kandi ahagaze mu murima, iruhande rwe hari ikiziba.

Abagize itsinda ry'abajyanama b'ubuzima harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi bafite amakarita abaranga, imbere yabo hahagaze umuyobozi wabo ari kubakoresha inama.

Abayobozi b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, basuye abana mu kigo cy'amashuri, aho baje kubaganiriza uburyo bagomba kwitwara bakora isuku y'amenyo, bitazabatera uburwayi.

Inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore, abagabo, abasore ndetse n'abakobwa, bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, kandi inyuma yabo hari icyapa kinini cyane cyerekana insanganyamatsiko y'inama.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga aho basuzumira abarwayi bafite ikibazo, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, afite agapfukamunwa kandi yitwikiriye mu mutwe we ari gupima umurwayi, areba ko nta kibazo cy'umuvuduko afite.

Ku ivomero rusange aho abaturage bakura amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo. Hari abagore bazanye amajerekane ndetse n'indobo zo kuvomeramo amazi. Umwe muri bo arikubafasha kuyasunika ava muri robine ajya mu byo baje kuvomeramo. Hakurya y'ivomero hateye ibiti.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato kugira ngo babarinde indwara zitandukanye. Umwana ukiri muto ateruwe na mama we kandi bafite igipapuro babandikiyeho amakuru bahawe.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato indwara zitandukanye, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umwana ukiri muto uteruwe na mama we.

Ku ivomero rusange, aho umwana ukiri muto w'umuhungu, ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo akureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi butandukanye.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe barebana bari kuganira kandi imbere yabo hari ibikoresho by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange aho abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu bari gukaraba intoki, bakoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo bakureho imyanda iyo ariyo yose ishobora kubatera uburwayi.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe kandi imbere yabo hari ameza ateretseho amazi meza yo kunywa ndetse n'amakaye yo kwandikamo inshamake y'inama.

Ku ivomero rusange, aho abaturage b'ingeri zitandukanye, bazana amajerekani, ndetse n'indobo, kugira ngo batwaremo amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, ni akazu bavomeramo, gateretseho amajerekani menshi, ndetse iruhande rwako hari abaturage baje kuvoma.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umuturage amutera urushinge, imbere ye hari ibikoresho biri kwifashishwa mu gukingira.

Bamwe mu bagize itsinda ry'abajyanama b'ubuzima, harimo abagabo ndetse n'abagore, bahagaze hamwe kandi bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bahagararanye n'umuyobozi wabo, bari gufata ifoto y'urwibutso kandi bose bafite amakarita abaranga.

Abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari ku ivomero rusange aho bitwaje indobo ndetse n'utujerekani kugira ngo batware amazi meza ari kuva muri robine bajye kuyakoresha isuku, iruhande rw'ivomero hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi. Hejuru yabo hahagaze umusore uri kubasukira amazi ava mu gikombe.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe, barebana, bari kuganira, imbere yabo kandi hateretse amacupa arimo amazi meza yo kunywa ndetse n'amavaze ateretsemo indabo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo: abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe barebana bari kuganira; kandi imbere yabo hateretse amacupa harimo amazi meza yo kunywa. Muri iki cyumba kandi harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi, ari kubakoresha inama.

Ku ivomero rusange aho abaturage baza kuvoma amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, hari umwana ukiri muto wazanye utujerekani, mugenzi we ari kumufasha gusunika amazi ava muri robine ajya mu tujerikani afite.

Icyumba cyabereyemo inama. Imbere hahagaze umugabo ufite indangururamajwi, ari gukoresha inama kandi iruhande rwe hari intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza ateretseho amazi meza yo kunywa.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye, hari abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari gukingira abaturage, imbere yabo hari ibikoresho biri kwifashishwa mu gukingira.

Ku ivomero rusange aho abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa bari gukaraba intoki, bakoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo bakureho imyanda iyo ariyo yose ishobora kubatera uburwayi.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Harimo abagabo, abagore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe bari kurebana baganira, kandi imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi meza yo kunywa.

Abagize itsinda ry'abajyanama b'ubuzima, harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi bafite amakarita abaranga, bari kumwe n'abayobozi babo, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ku ivomero rusange, aho abana bakiri bato bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo bikureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye, hari abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari gukingira abaturage babatera urushinge, muri iki cyumba kandi hariho ameza atetseho ibikoresho biri kwifashishwa mu gukingira.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bato babarinda indwara zitandukanye; hari umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umwana ukiri muto amutera urushinge.

Umwana ukiri muto w'umuhungu ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo akureho imyanda iyo ariyo yose ishobora kumutera uburwayi biturutse kudakaraba intoki.

Ku ivomero rusange aho abaturage baza kuvoma amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo bitwaje amajerekani ndetse n'indobo, hari abana bakiri bato bari gusunika amazi ava muri robine ajya mu ndobo baje kuvomeramo.

Ku kigo cy'amashuri, abana bakiri bato bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bahagaze hamwe bari kumwe n'abayobozi babo kandi bose bazamuye amaboko bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere hicaye abagabo bayoboye inama kandi bafite indangururamajwi.

Ahabereye igikorwa cyo gutera imboga ndetse n'imbuto, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bose bambaye imipira ifite ibara rya oranje.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye hamwe barebana, imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi meza yo kunywa, n'amakaye yo kwandikamo incamake y'inama.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato kugira ngo babarinde indwara zitandukanye, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gukingira umwana akoresheje igikoresho cyabugenewe kugira ngo amurinde indwara.

Ku ivomero rusange aho abaturage bazana amajerekani baje kuvoma amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo, hari umwana ukiri muto uri kuvoma amazi muri robine ajya mu gikombe kugira ngo ayanywe ashira inyota.

Hanze y'ikigo cy'amashuri, hari umwana ukiri muto w'umunyeshuri wambaye imyambaro yabugenewe, ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza kugira ngo akureho imyanda yose ishobora kumutera uburwayi, iruhande rwe hari indobo yo kujugunyamo imyanda.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, imbere hicaye abagabo babiri umwe muri bo afite indangururamajwi ari gukoresha inama, inyuma yabo kandi hari icyapa kinini cyerekana insanganyamatsiko y'inama.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa bahagaze hamwe abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo kandi hari icyapa kinini cyane cyerekana insanganyamatsiko y'inama.

Umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu ndetse n'umukara, ari gukaraba intoki akoresheje kandagira ukarabe kugira ngo akureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi biturutse mu kudakaraba intoki.

Ahabereye igikorwa cyo gupima abana bakiri bato kugira ngo barebe neza niba bafite imirire myiza, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Ku ivomero rusange, aho abaturage b'ingeri zitandukanye bazana amajerekani, baje kuvoma amazi meza. Umugore ari kubafasha gusunika amazi ava muri robine ajya mu majerekani yabo kandi hakurya y'ivomero hateye ibihingwa by'ubwoko bwinshi.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo kandi hari icyapa kinini cyerekana insanganyamatsiko y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko rw'abasore n'abakobwa. Baricaye bakurikiranye inama imbere hari umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ze ari gutanga igitekerezo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe barebana bari kuganira kandi muri iki cyumba harimo icyapa cyerekana insanganyamatsiko y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, imbere hicaye abayoboye inama kandi iruhande rwabo hari ameza.

Inama yitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, bahagaze hamwe bafite utwapa imbere yabo tugaragaza insanganyamatsiko y'inama kandi bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hateye ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Ahabereye igikorwa cyo gutera ibiti, ndetse n'indabo, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore, ndetse n'abakobwa, bahagaze hamwe bose bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe bakurikiranye inama kandi bose bambaye imipira ifite ibara ry'umukara ndetse n'amapantaro y'umweru.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso kandi inyuma yabo hari ibyapa byanditseho serivisi zitangwa n'ibitaro.

Ahabereye ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko rw'abasore n'abakobwa, bari kugenda mu muhanda imbere yabo bafite icyapa cyanditseho insanganyamatsiko.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe, abandi baricaye, bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo hari icyapa cyerekana ibyaranze inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, bose bambaye imipira y'ubururu kandi bahagararanye n'abayobozi babo bari gufata ifoto y'urwibutso.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso kandi iruhande rwabo hari icyapa cyerekana insanganyamatsiko y'inama.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, iruhande rwabo hari icyapa cyerekana insanganyamatsiko y'yi nama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, baricaye hamwe umugore afite indangururamajwi ari gutanga igitekerezo cye, imbere hari ameza ateretseho ibyo kunywa ndetse na mudasobwa.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo: abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko rw'abasore n'abakobwa, imbere hahagaze umugore uri kubakoresha inama kandi muri iki cyumba harimo televiziyo yerekana amashusho.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bose bahagaze hamwe abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso, muri iki cyumba kandi ku gikuta hamanitse ifoto ndetse hari ameza ateretseho amazi meza yo kunywa.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe. Bafite ibikoresho mu intoki zabo, bifashisha bakura imyanda iyo ari yo yose yaba yagiye mu menyo kugira ngo itazabateza uburwayi bw'amenyo cyangwa n'izindi ndwara zitandukanye ziza mu kanwa.

Umusore ufite urudodo mu ntoki ze ari kurukoresha akura imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo ye kugira ngo itazamuteza uburwayi butandukanye, biturutse ku mwanda cyangwa ikamuteza ibindi bibazo mu kanwa ke.

Umukobwa uri gukora isuku y'amenyo akoresheje ibikoresho byabugenewe kugira ngo akuremo imyanda iyo ari yo yose yafashe mu menyo ye itazamutera uburwayi butandukanye bw'amenyo cyangwa n'ubundi burwayi bwo mu kanwa.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi ku ndwara y'amenyo, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari kwita ku mwana amuvura kugira ngo arebe neza ko nta kibazo afite mu menyo ye.

Umukobwa ufite urudodo mu ntoki ze, ari kurukoresha akura imyanda iyo ari yo yose yagiye mu menyo ye kugira ngo itazamutera uburwayi bw'amenyo cyangwa ibindi bibazo mu kanwa biturutse ku mwanda.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari kwita ku murwayi akoresheje udukoresho twabugenewe kugira ngo arebe ko nta kibazo afite mu menyo ye.

Umwana ukiri muto ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gukoresha ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma bareba ko nta kibazo umuntu afite mu menyo ye cyangwa nta bundi burwayi afite mu kanwa ke.

Umwana ukiri muto umukobwa ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho ari gusuzuma areba ko nta kibazo afite mu kanwa ke kugira ngo amuvure.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bafite uburoso mu ntoki zabo bifashisha bari gukora isuku y'amenyo kugira ngo bakuremo imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi.

Umukobwa uri gukora isuku y'amenyo akoresheje akuma kabugenewe kifashishwa mu gukuramo imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo kugira ngo itazamuteza uburwayi butandukanye cyangwa ibindi bibazo mu kanwa ke.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, imbere hahagaze umukobwa ndetse n'umugore bafite impapuro mu ntoki zabo banditseho incamake y'inama, muri iki cyumba kandi hari ameza ateretseho amazi meza yo kunywa.

Umusore ufite urudodo mu ntoki ze, ari kurukoresha akura imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo ye kugira ngo ayikuremo, itazamutera uburwayi bw'amenyo cyangwa n'izindi ndwara ziza mu kanwa.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda, basuzuma ko nta kibazo afite mu menyo ye.

Umusore uri gukora isuku y'amenyo, akoresheje urudodo rwabugenewe, aho ari gukura imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo ye kugira ngo itazamuteza uburwayi cyangwa ibindi bibazo mu kanwa ke.

Mu kigo cy'amashuri ahabereye ubukangurambaga bwokwigisha abana b'abanyeshuri uburyo bagomba gukora isuku y'amenyo, ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abaganga.

Umwana ukiri muto ari kwitabwaho n'umuganga uvura amenyo, aho ari gukoresha udukoresho twabugenewe kugira ngo arebe ko nta kibazo afite mu menyo ye cyangwa nta bundi burwayi afite mu kanwa ke.

Umukobwa ufite isume y'umweru mu mutwe we kandi wambaye isengeri y'umweru, ari gukora isuku y'amenyo akoresheje igikoresho cyabugenewe kugira ngo akuremo imyanda iyo ari yo yose yafashe mu menyo ye itazamutera uburwayi.

Icyumba cyabereyemo ubukangurambaga bwo kwigisha abana bakiri bato uburyo bagomba gukora isuku y'amenyo bakoresheje ibikoresho byabugenewe, harimo abayobozi bari kumwe n'abana, babazaniye ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku y'amenyo.

Umusore uri kwireba mu ndorerwamo, afite urudodo rwabugenewe rwifashishwa mu gukora isuku y'amenyo, aho ari gukuramo imyanda iyo ari yo yose yafashe mu menyo kugira ngo itazamuteza uburwayi butandukanye.

Abana bakiri bato, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Bari koza amenyo bakoresheje udukoresho twabugenewe kugira ngo bakuremo imyanda iyo ari yo yose, ishobora kubatera uburwayi.

Umusore uri gukora isuku y'amenyo yifashishije urudodo rwabugenewe, aho ari kurukoresha akura imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo ye kugira ngo itazamutera uburwayi cyangwa ikazana ibindi bibazo mu kanwa ke.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga aho batangira serivisi z'ubuvuzi ku ndwara y'amenyo, harimo umuganga ari kwita ku musore uri muri kino cyumba aho ari kumuha udukoresho twifashishwa mu gukora isuku y'amenyo.

Icyumba kiberamo ubuvuzi bw'indwara y'amenyo, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gusuzuma umwana ukiri muto akoresheje ibikoresho byabugenewe, areba ko nta kibazo afite mu menyo ye.

Kwa muganga icyumba kirimo intebe abarwayi bicaraho, igihe bari gusuzumwa n'abaganga, kugira ngo bakomeze kubakurikirana neza. Muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Umusore uri kureba mu ndorerwamo ari gukora isuku y'amenyo akoresheje urudodo afite mu ntoki ze, kugira ngo akuremo imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi cyangwa ikamutera ibindi bibazo bitandukanye mu kanwa ke.

Mu kigo cy'amashuri ahabereye ubukangurambaga bwo kwerekana abana bakiri bato b'abanyeshuri, uburyo bagomba gukora isuku y'amenyo, bakuramo imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo n'abaganga.

Umwana ukiri muto wicaye mu ntebe ari gukora isuku y'amenyo akoresheje igikoresho cyabugenewe, aho ari gukuramo imyanda iyo ari yo yose ishobora gutera uburwayi mu menyo ye cyangwa mu kanwa ke.

Umusore ukiri muto ari gukora isuku y'amenyo, akoresheje urudodo rwabugenewe kugira ngo akure imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo itazamutera uburwayi bw'amenyo cyangwa ibindi bibazo mu kanwa ke.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri nyinshi, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, kandi abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe nibo bari kwita ku baturage.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, ari kwireba mu ndorerwamo, aho ari gukora isuku y'amenyo, akoresheje igikoresho cyabugenewe, kugira ngo akuremo imyanda iyo ari yo yose iri mu menyo ye ishobora kumutera uburwayi.

Umusore uri gukora isuku y'amenyo akoresheje urudodo rwabugenewe, aho ari kurukoresha akuramo imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo kugira ngo itazamuteza uburwayi butandukanye bw'amenyo cyangwa n'ubundi burwayi bwo mu kanwa.

Mu ruganiriro umusaza ndetse n'umukecuru bicaye hamwe, bafite imiti imbere yabo bari kureba uko ikoreshwa bifashishije telefone bafite mu ntoki zabo, imbere yabo kandi hari ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa.

Umukecuru ukuze ufite imisatsi y'umweru, afite ibyo kurya ku isahani ye higanjemo imboga ndetse n'imbuto, inyuma ye hari akabati kabikwamo ibikoresho byifashishwa mu gukora imirimo yo mu rugo.

Mu ruganiriro umusaza ndetse n'umukecuru bakuze bicaye mu ntebe bari kuganira, imbere yabo hari impapuro aho bari kuzisoma kugira ngo basobanukirwe neza, inyuma yabo hari intebe abantu bicaramo.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bicaye mu ruganiriro. Bafite imiti yo kunywa imbere yabo, kandi bari gusoma urupapuro, bareba neza uburyo imiti igomba gukoreshwa. Imbere yabo hateritse ikirahure, kirimo amazi meza yo kunywa, ndetse n'akavaze karimo ururabo.

Umusaza wicaye mu kagare kicarwamo n'abafite ikibazo mu maguru yabo cyangwa ikibazo cy'umugongo. Ari kumwe n'ummwa ukiri muto umwicaye iruhande bari gukina imikino. Inyuma yabo hari ivaze iteyemo ururabo.

Mu ruganiriro umusaza ukuze ari kumwe n'umukecuru bafite ibyo kurya imbere yabo harimo imboga ndetse n'imbuto. Iruhande rwabo kandi hateretse ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa.

Umusaza ukuze ufite imisatsi y'umweru, bari kumwuhagira bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo bamukureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Mu ruganiriro ahicaye umusaza ndetse n'umukecuru. Bafite imiti imbere yabo, bari kuganira bareba uburyo igomba gukoreshwa neza. Inyuma yabo hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu rugo.

Mu ruganiriro aho umusaza ndetse n'umukecuru bafite imiti imbere yabo bari kureba uburyo igomba gukoreshwa, inyuma yabo hari ameza ateretseho ibikoresho by'ubwoko butandukanye bikoreshwa mu rugo.

Icyumba kirimo umusaza ndetse n'umukecuru bicaye hamwe bari kuganira, imbere yabo hateretse ibyo kurya ndetse n'ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa. Iruhande rwabo hari umuganga uri kubitaho wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari kwita ku mukecuru wicaye mu ntebe, aho ari kumuha imiti yo kunywa ndetse afite ikirahure mu ntoki ze, kirimo amazi meza yo kunywesha imiti.

Umusaza wicaye mu ntebe ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho ari kumupima areba ko umuvuduko w'amaraso uhagaze neza. Iruhande rwabo, hateretse itara.

Umusaza ukuze uri gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije utwuma twabugenewe. Ari kubifashwamo n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Aha kandi hari utubati tubikwamo ibikoresho.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga aho basuzumira abarwayi, harimo igitanda kiryamyeho umurwayi uri kwitabwaho n'abaganga, iruhande rwe hateretse imashini yifashishwa mu gusuzuma umurwayi kugira ngo bamenye neza uko ubuzima bwe buhagaze.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, umugabo ukuze ari gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije ibyuma bimufasha kurambura neza amaguru ye, ari kubifashwamo n'umuganga w'umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

umumama ukuze wicaye mu kagare kicarwaho n'abafite ikibazo cy'umugongo cyangwa ikibazo mu maguru yabo, ari kwitabwaho n'umuganga ukiri muto wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo umusaza uri gukora imyitozo ngororamubiri, abifashijwemo n'umuganga kugira ngo akomeze kugorora amaboko ye, muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Umukecuru ukuze uri gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo bigororoke neza, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara ziturutse mu guhinamirana.

Icyumba kirimo umusaza ukuze wicaye ku gitanda, ari kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Muri iki cyumba kandi harimo inzitiramibu ikoreshwa mu kwirinda umubu wa malariya ndetse n'utubati tubikwamo ibikoresho.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, kandi afite igikoresho mu ijosi rye cyifashishwa mu kureba uko umutima w'umurwayi uri gutera, iruhande rwe hari umusaza waje kwivuza, bafite igitabo bari gusoma.

Mu cyumba bateguriramo ibyo kurya, harimo umukobwa uri gutanga ibyo kurya, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho ari kubiha umukecuru ukuze, uri kumwe n'umusore ukiri muto, muri iki cyumba kandi harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imirimo yo mu rugo.

Ahabereye inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Umukecuru ukuze afite indangururamajwi, ari gukoresha inama kandi inyuma ye haparitse imodoka, zifite amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara.

Umusaza uri gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agororoke neza, ari kubifashwamo n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi afite igikoresho mu ijosi rye kifashishwa mu gupima bareba uko umutima w'umurwayi uri gutera.

Icyumba kirimo umurwayi wambaye imyambaro y'ubururu, ari kugendera ku twuma tumufasha kurambura amaguru neza kugira ngo agororoke. Muri iki cyumba kandi harimo igitanda cyo kuryamaho ndetse n'utubati tubikwamo ibikoresho.

Mu ruganiriro, ahicaye umusaza ukuze, uri kumwe n'umukobwa ukiri muto. Bari hamwe, bari kureba telefoni, bareba amakuru agezweho. Muri iki cyumba kandi, harimo utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu rugo.

Umukecuru ukuze uri kugenda mu muhanda afite utwuma tumufasha gutambuka neza kugira ngo amaguru ye agororoke uko bikwiriye, ari kumwe n'umukobwa ufite igikapu mu ntoki ze kandi iruhande rw'umuhanda hateye ibiti.

Umukecuru ukuze ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho ari kumuha imiti yo kunywa kugira ngo ayinyweshe amazi meza afite mu kirahure, inyuma yabo hari ivase iteyemo ururabo.

Umusaza wicaye mu ntebe ufite inkoni ikoreshwa n'abafite ikibazo mu maguru yabo, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kugira ngo amufashe kuruhuka neza.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo umusaza ukuze, wambaye umupira w'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri, abifashijwemo n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Muri iki cyumba kandi, harimo intebe zo kwicaraho.

Umusaza uri gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije ibyuma aho ari kugorora amaguru ye, iruhande rwe hari umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Ahabereye igikorwa cyo gutanga impapuro z'isuku ku bana bakiri bato b'abakobwa. Cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, aho bari kugenda bahereza buri mwana, urupapuro rw'isuku.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari kwita ku barwayi, muri icyo cyumba kandi harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe, bari gufata ifoto y'urwibutso kandi inyuma yabo hari icyapa cyerekana ibyaranze inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, imbere hicaye abayoboye inama kandi inyuma yabo hari icyapa cyerekana insanganyamatsiko y'inama.

Kwa muganga aho bakingirira abana bakiri bato, hari intebe zicaweho n'ababyeyi bateruye abana mu ntoki zabo, baje kubakingiza. Kuri iki gikuta kandi, hariho ibishushanyo, byerekana serivisi zitangwa kwa muganga.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, imbere hahagaze umugabo ndetse n'umugore bafite icyapa imbere yabo kigaragaza insanganyamatsiko yaranze inama, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Imbere hahagaze abagabo babiri, bambaye amakote y'umukara, bafite amakaye mu ntoki zabo, kandi bari gusuhuzanya. Bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bose bambaye udupfukamunwa kandi bipfutse mu mitwe yabo, bari kwita ku murwayi kandi muri iki cyumba harimo imashini zerekana amashusho.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere hahagaze umukobwa ufite indangururamajwi, ari gukoresha inama.

Ubukangurambaga bwo kurwanya indwara ya kanseri, ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko rw'abasore n'abakobwa, bari kugenda mu muhanda bafite icyapa cyanditseho insanganyamatsiko y'umunsi.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere hahagaze umugabo ari kubakoresha inama abereka amashusho ku cyapa.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, imbere hicaye umukobwa ufite indangururamajwi ari gukoresha inama kandi afite ikaye mu ntoki ze yo kwandikamo inshamake y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Imbere hicaye abagabo babiri, umwe muri bo afite indangururamajwi, ari gukoresha inama kandi imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi meza yo kunywa.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bahagaze hamwe abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo kandi hari icyapa kinini cyerekana insanganyamatsiko y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bose bicaye hamwe bakurikiranye inama muri iki cyumba kandi harimo amarido afite ibara ry'umutuku.

Abagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze, bari kwita ku murwayi uryamye hasi mu byatsi, aho bari kumufasha kugira ngo bamuhe ubutabazi bw'ibanze. Iruhande rwabo, hateye igiti kirekire.

Icyumba cyabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, imbere hicaye abayoboye inama kandi inyuma yabo hari icyapa cyerekana ibiri kuranga inama.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini yifashishwa mu gufata amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umurwayi, kugira ngo abaganga bamenye neza uko bagomba kumukurikirana.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo imashini yifashishwa mu kwerekana amashusho y'umurwayi kugira ngo abaganga bamenye neza ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo imashini z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora siporo bikoreshwa n'abagana iyi nyubako kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi ku ndwara y'amaso. Hari intebe abarwayi bicaraho igihe bategereje kwakirwa. Muri iki cyumba kandi harimo imashini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse hejuru hamanitse ibipirizo.

Ku marembo y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya tabagwe, hari icyapa kinini, hejuru kuri iyi nyubako kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, hanze y'iyi inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye zizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo igikoresho cyifashishwa mu gutanga amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu, muri iki cyumba kandi, harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Icyumba kiri mu nyubako ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ifite ibara ry'ubururu, bose bambaye udupfukamunwa kandi bipfutse mu mitwe yabo, bari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda kugira ngo bamenye neza ikibazo afite. Muri iki cyumba kandi harimo imashini z'ubwoko butandukanye, zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Mu nyubako yo kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bategerereza kugira ngo bakirwe, hari intebe abarwayi bicaraho mu gihe bategereje kwakirwa ndetse n'utuvaze turimo indabo.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri. Harimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'imashini zifashishwa n'abaza muri iyi nyubako kugira ngo bakore siporo bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza, butarimo indwara.

Kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bategerereza, hari intebe zicayemo abarwayi, bategereje no guhura na muganga wabo, aha kandi hari ibyapa byerekana serivisi zitangwa muri iyi nyubako.

Hanze y'inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Hejuru ku nyubako hari icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba. Iruhande rw'inyubako kandi haparitse imodoka ifite ibara ry'umukara.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibitanda abarwayi baryamaho mu gihe bari kwitabwaho n'abaganga kandi kugira ngo bakomeze kubakurikirana, muri iki cyumba kandi harimo inzitiramibu zifashishwa mu kwirinda umubu utera Malariya.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo intebe abarwayi bicaraho iyo bari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, muri iki cyumba kandi harimo tereviziyo yerekana amashusho.

Ku marembo y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Hanze haparitse imodoka zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara. Iruhande rw'inyubako kandi hamanitse ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda kandi hari icyapa kiyobora abaje bagana ibi bitaro.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahakirirwa ababyeyi batwite ndetse n'abafite abana bakiri bato, hari intebe bicaraho mu gihe bagitegereje kwakirwa ndetse hanze y'inyubako hari gutambuka umugabo.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara y'amaso, harimo intebe umurwayi yicaraho igihe ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho basuzumira abarwayi. Harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho n'umuganga ndetse n'imashini zifashishwa mu kwerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu.

Hanze y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubucuruzi bw'imiti, ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Hejuru ku nyubako hari icyapa kiyobora abaje bayigana, kugira ngo batayoba. Hanze y'inyubako kandi haparitse imodoka.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye, hari umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi afite ikarita imuranga, ari gukingira umuturage wicaye mu ntebe kugira ngo amurinde indwara zitandukanye.

Hanze y'inyubako y'ibitaro bya Kabgayi bitanga serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, hejuru hari icyapa kinini kiyobora abaje bagana iyi nyubako kugira ngo batayoba, hanze y'ibitaro kandi hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga kandi kugira ngo bakomeze kubakurikirana, muri iki cyumba kandi harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari kwita ku barwayi.

Icyumba kirimo imashini z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abaza muri iyi nyubako baje gukora siporo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara. Muri iki cyumba kandi harimo televiziyo zerekana amashusho.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho n'abaganga, ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, ahatangirwa ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, haparitse imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse hanze y'inyubako hari urujya n'uruza rw'abaturage baza kwivuza. Hanze y'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko bwinshi.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda, muri iki cyumba kandi harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Harimo utubati, aho imiti igiye imanitse mu bikarito, hasi ndetse no hejuru kugira ngo itazangirika.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, bw'indwara zitandukanye. Harimo umuganga, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gukoresha mudasobwa, areba amafoto y'umurwayi.

Icyumba kibikwamo imiti yifashishwa mu kuvura uburwayi butandukanye. Harimo utubati, aho imiti igiye ipanze hasi ndetse no hejuru, kugira ngo itangirika. Muri iki cyumba kandi, harimo itara riri kwaka.

Ku marembo y'inyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, hari urujya n'uruza rw'abaturage, harimo abagabo, abagore, abasore, abakobwa ndetse n'abana bato baza kwivuza.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, hejuru kuri iyi nyubako hariho icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayba, hanze y'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye, zizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, imbere hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru ari gukoresha inama, muri iki cyumba kandi hari ameza ateretseho amazi meza yo kuywa.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho basuzumira indwara zitandukanye, harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho n'umuganga ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma. Muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho, kandi hamanitse tereviziyo yerekana amashusho.

Hanze y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara ya kanseri, hejuru kuri iyi nyubako hari icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, hanze y'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Hejuru kuri iyi nyubako, hari icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoyuba kandi cyanditseho serivisi zitangwa muri iyi nyubako.

Abaganga b'abakobwa, bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bose bambaye udupfukamunwa kandi bamanitse amaboko yabo, bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo, hari icyapa kigaragaza ibitaro bakoreramo.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo imashini yifashishwa mu gutanga amashusho y'umurwayi yerekana ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu bityo abaganga bagakomeza kumukurikirana.

Hanze y'inyubako y'ibitaro bya Rwamagana, hahagaze abaturage b'ingeri zitandukanye harimo abagore, abagabo, abasore ndetse n'abakobwa bari gufata ifoto y'urwibutso, iruhande rw'ibitaro kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Ku marembo y'inyubako y'ibitaro bya Kabgayi ahatangirwa serivise z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hejuru hamanitse icyapa kiyobora abaje bagana muri ibi bitaro kandi hanze y'inyubako, hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, yicaye mu ntebe. Muri iki cyumba kandi, harimo igitanda umurwayi aryamaho, iyo ari kwitabwaho n'abaganga.

Mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari ibyapa biyobora abaje bagana iyi nyubako kugira ngo batayoba. Aha kandi, hari ivaze iteyemo ururabo.

Mu nyubako yo kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bakirirwa. Hari intebe abarwayi bicaraho, igihe bategereje kwakirwa kandi muri iki cyumba ku gikuta hamanitse televiziyo yerekana amashusho.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'inzitiramibu zifashishwa mu kwirinda umubu utera Malariya.

Icyumba kibitsemo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo utubati aho imiti igiye ipanze hasi ndetse no hejuru, muri iki cyumba kandi harimo ibyapa byerekana aho imiti igiye imanitse.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga aho bakirira ababyeyi batwite cyangwa ababyeyi bafite abana bakiri bato, hahagaze abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bose bambaye udupfukamunwa bari gufata ifoto y'urwibutso.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Kanyinya, kuri iyi nyubako hariho icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, hanze y'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara atandukanye.

Hanze y'inyubako y'ibitaro bya Nyarugenge. Kuri iyi nyubako hariho icyapa kinini kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba. Hanze y'ibitaro kandi hateye indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hanze hateye indabo ndetse n'ibiti bizana umwuka mwiza muri iki kirere kugira ngo abarwayi bakomeze guhumeka neza.

Ku marembo y'inyubako yo kwa muganga, ahatangirwa ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hateye indabo ndetse n'ibiti bizana umwuka mwiza muri iki kirere. Iruhande rw'inyubako kandi, hari icyapa kiyobora abaje bayigana kandi cyerekana serivisi zitangwa muri ibi bitaro.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho igihe bari kwitabwaho n'abaganga kandi kugira ngo bakomeze kubakurikirana, muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, zerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu. Muri iki cyumba kandi, harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Harimo intebe abarwayi bicaraho, iyo bari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi. Muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, kuri iyi nyubako hariho icyapa kinini kiyobora abaje bayigana kandi kerekana serivisi zitangwa muri ibi bitaro, hanze y'inyubako kandi haparitse imodoka zifite amabara y'umukara.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'imashini zifashishwa n'abagana iyi nyubako kugira ngo bakore siporo, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubushakashatsi bw'imiti, ndetse no ku ndwara zitandukanye. Harimo imashini yifashishwa mu gukora ubushakashatsi ndetse n'ibirahure birimo imiti yifashishwa muri ubwo bushakashatsi.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, aho ababyeyi batwite ndetse n'ababyeyi bafite abana bakiri bato, bakirirwa. Hari abayobozi, bamwe baricaye, abandi barahagaze. Iruhande rw'iyi nyubako, hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari kwita ku bakecuru bakuze, aho ari kubapima akoresheje ibikoresho byabugenewe kugira ngo arebe ko nta ndwara z'umutima bafite cyangwa indwara z'umuvuduko w'amaraso.

Ahabereye igikorwa cyo gupima abana bakiri bato, kugira ngo barebe niba bafite imirire myiza, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gupima umwana muto umuri iruhande.

Ku marembo y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari ibyapa byanditseho serivisi zitangwa muri iyi nyubako, ndetse hanze hari urujya n'uruza rw'abaturage baza kwivuza.

Hanze y'inyubako itangirwamo ibizami by'abarwayi baje kwivuza, hahagaze abagore ndetse n'abagabo, bari gufata ifoto y'urwibutso. Kuri iyi nyubako kandi hariho icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Harimo imashini yifashishwa mu kwerekana amashusho y'hariri ikibazo, mu mubiri w'umurwayi kugira ngo abaganga bakomeze kumukurikirana neza.

Kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bakirirwa, hari intebe abarwayi bicaraho igihe bategereje kwakirwa kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi, muri iki cyumba kandi harimo utumashini twifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Harimo igitanda umurwayi aryamaho igihe ari kwitabwaho n'abaganga, ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, zerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Harimo ibitanda abarwayi baryamyeho ndetse bari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho ari kugenda abapima areba uko ubuzima bwabo buhagaze. Muri iki cyumba kandi harimo igikoresho cyifashishwa mu gukumira inkongi y'umuriro.

Ku marembo y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye. Hari icyapa kiyobora abaje bagana iyi nyubako kugira ngo batayoyuba, hanze y'inyubako kandi haparitse imodoka ifite ibara ry'umukara.

Umwana ukiri muto wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ikoti ry'umukara, ari gusunika umugabo wicaye mu kagare kicarwamo n'abafite ikibazo cy'umugongo cyangwa ikibazo mu maguru, imbere yabo hari umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru.

Mu nyubako yo kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bakirirwa kandi bategerereza kugira ngo bahure n'umuganga wabo, hari intebe zo kwicaraho kandi hari icyapa kiyobora abaje bagana iyi nyubako kugira ngo bamenye aho bagomba kujya.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye ndetse n'imashini zifashishwa n'abagana iyi nyubako, baje gukora siporo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara, muri iki cyumba kandi harimo imashini zerekana amashusho.

Hanze y' inyubako itangirwamo serivisi zubuvuzi ku indwara zitandukanye. Hari icyapa kiyobora abaje bagana iyi nyubako kugira ngo batayoba. Hanze y'ibitaro kandi hateye ibiti by'ubwoko bwinshi.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo igitanda kiryamyeho umurwayi kandi iruhande rwe hari imashini zifashishwa, mu gusuzuma bareba uko ubuzima bwe buhagaze.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Harimo igitanda umurwayi aryamaho, iyo ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini yifashishwa mu gusuzuma, yerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini zifashishwa mu gutunganya ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, muri iki cyumba kandi harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma umurwayi, muri iki cyumba kandi harimo televiziyo zerekana amashusho.

Hanze y'inyubako ikigo nderabuzima ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Hari abaturage bicaye ku ntebe bategereje kwakirwa. Kuri iyi nyubako kandi hariho icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba.

Kwa muganga icyumba abarwayi baje kwivuza bakirirwamo mu gihe batarahura n'umuganga wabo, harimo intebe abarwayi bicaraho mu gihe bategereje, kandi muri iki cyumba harimo televiziyo yerekana amashusho.

Hanze y'inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hejuru kuri iyi nyubako hariho icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba kandi kikerekana serivisi zitangwa muri iyi nyubako.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho basuzumira abarwayi. Harimo umugabo uryamye ku gitanda ari gukurikiranwa n'abaganga. Iruhande rwe hari imashini, zifashishwa mu gusuzuma umurwayi ndetse zerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri we.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri. Harimo imashini ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaza muri iyi nyubako kugira ngo babikoreshe siporo. Muri iki cyumba kandi ku gikuta hamanitse isaha.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, hari urujya n'uruza rw'abaturage harimo abagabo, abagore, abasore, abakobwa ndetse n'abana bato baza kwivuriza muri ibi bitaro.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bateruye umwana ukiri muto mu ntoki zabo, muri iki cyumba kandi harimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hejuru kuri iyi nyubako hari icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, hanze y'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo intebe umurwayi yicaraho igihe ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba kiberamo ubushakashatsi bw'imiti, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari gukora ubushakashatsi, kandi muri iki cyumba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bushakashatsi.

Icyumba kiberamo ibikorwa bitandukanye nk'inama, imyidagaduro ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo intebe zo kwicaraho kandi imbere hateretse ameza yicarwaho n'uyoboye inama cyangwa uyoboye imyidagaduro.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, yakirirwamo ababyeyi batwite ndetse n'ababyeyi bafite abana bakiri bato. Hari icyapa ku gikuta, kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba. Iruhande rw'inyubako kandi, hateye ibiti birebire.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, hejuru kuri iyi nyubako hari icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, hanze y'ibitaro kandi hari umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ndetse n'abaturage iruhande rwe.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho batangira serivisi z'ubuvuzi, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi yambaye agapfukamunwa, ari gusuzuma umwana ukiri muto areba ko nta ndwara afite.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga kandi kugira ngo bakomeze kubakurikirana, muri iki cyumba kandi harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Ahari amashashi arimo amaraso yatanzwe n'abaturage, azakoreshwa mu gufasha abarwayi bafite amaraso make mu mubiri wabo kugira ngo na bo bakomeze kubaho neza badafite indwara.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho abarwayi baruhukira. Harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga, harimo kandi inzitiramibu zifashishwa mu kwirinda umubu utera malariya, muri iki cyumba kandi harimo umuganga uri kwita ku barwayi.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo igitanda umurwayi aryamaho igihe ari kwitabwaho n'abaganga, ndetse n'intebe zo kwicaraho, muri iki cyumba kandi, harimo mudasobwa, n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Mu nyubako yo kwa muganga, aho abarwayi bategerereza kugira ngo bahure n'umuganga wabo. Hari abarwayi bicaye mu ntebe, imbere yabo hahagaze abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi. Harimo utubati aho imiti igiye ipanze, hasi ndetse no hejuru. Muri iki cyumba kandi harimo intebe abarwayi bicaraho igihe bategereje kwakirwa.

Mu nyubako yo kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bakirirwa, hari intebe abarwayi bicaraho igihe bategereje kwakirwa ndetse n'ameza ateretseho mudasobwa, muri iki cyumba kandi harimo ibikinisho abana bakinisha.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga kandi kugira ngo bakomeze gukurikiranwa. Muri iki cyumba kandi harimo inzitiramibu zifashishwa mu kwirinda umubu wa marariya ndetse n'utubati tubikwamo ibikoresho.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Hanze y'inyubako y'Ikigo Nderabuzima cya Remera-Rukoma. Hari icyapa ku nyubako kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, kandi hanze hari ibigega bibikwamo amazi yifashishwa mu mirimo itandukanye. Hanze y'inyubako kandi, hateye indabo zifite amabara y'umuhondo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo umuganga wicaye uri gukoresha mudasobwa, aho ari kureba amafoto y'umurwayi kugira ngo amenye neza ikibazo afite.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo imashini z'ubwoko bwinshi zifashishwa mu gusuzuma abarwayi zerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu, kugira ngo abaganga bakomeze gukurikirana umurwayi.

Ku marembo y'inyubako y'ibitaro bya CHUB ahatangirwa ubuvuzi bw'indwara zitandukanye hari icyapa kiyobora abaje bagana ibi bitaro kugira ngo batayoba hanze y'ibitaro kandi haparitse imodoka zifite amabara atandukanye.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Kigina, hejuru kuri iyi nyubako hari icyapa kinini kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, hanze y'inyubako kandi hari umugore uhetse umwana we mu mugongo baje kwivuza.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibitanda abarwayi baryamaho igihe bari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo bakomeze kubakurikirana, muri iki cyumba kandi harimo inzitiramibu zifashishwa mu kwirinda umubu utera malariya.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubushakashatsi ku miti ndetse no ku ndwara, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu bushakashatsi.

Mu rugo rw'umuturage, aho umujyanama w'ubuzima wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe yasuye umuturage kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze, ndetse arebe niba umutima we uri gutera neza. Inyuma yabo hateye ibihingwa by'ubwoko butandukanye.

Ku marembo y'inyubako y'ibitaro bya Nyarugenge, hari icyapa kinini kuri iyi nyubako kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, hanze y'inyubako kandi hateye indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gusuzuma umurwayi waje kwivuza, muri iki cyumba kandi harimo mudasobwa zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi bareba uko umutima wabo uri gutera kandi zikifashishwa bari kureba niba umuvuduko wabo w'amaraso uhagaze neza, imwe muri izi mashini iri gukoreshwa n'umugore wicaye ku ntebe.

Icyumba kirimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, baricaye imbere yabo hahagaze umuganga w'umugabo ari kubigisha uburyo bagomba kwita ku barwayi akoresheje igikoresho kimuri imbere.

Umukobwa ufite imisatsi miremire. Yambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaboko ye ndetse n'amaguru ye kugira ngo bigororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahari ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwabyo hateretse akamashini kifashishwa mu gupima bari kureba uko umutima w'umurwayi uri gutera.

Umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gukoresha imyitozo ngororamubiri umurwayi wicaye mu kagare, amufasha kurambura amaboko ye kugira ngo agororoke neza, bityo akomeze kugira imbaraga mu mubiri we.

Mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo igikoresho cyifashishwa mu gutanga amashusho y'ahariri ikibazo mu mubiri w'umurwayi kugira ngo abaganga bakomeze kumukurikirana neza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri. Harimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'imashini zifashishwa mu gukora siporo kugira ngo ubikoresheje akomeze kugira ubuzima bwiza, muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Abagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze, bateruye umusore wagize ikibazo mu kaguru ke kugira ngo bajye kumuha ubutabazi bw'ibanze, inyuma yabo hari abaturage bambaye imipira ifite ibara ry'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara, harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye, byifashishwa n'abagize iri tsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze, k'uwakomeretse cyangwa n'uwagize ibindi bibazo byo guhumeka.

Imiti yo kwisiga, ikunda gukoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo ibagabanyirize uburibwe bw'inyama, ndetse n'amagufa, iri mu macupa afite ibara ry'umweru, ndetse n'ibyapa bifite ibara ry'umukara.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo umukobwa wicaye ku gitanda, ari kwitabwaho n'umuganga amupfuka akuguru ke, ahari ikibazo kugira ngo hatazajyamo imyanda. Muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Icyumba kirimo abagize itsinda; ritanga ubutabazi bw'ibanze, kuwa komeretse cyangwa uwagize ikindi kibazo cy' uburwayi, bahagaze hamwe bagenzi babo, bari kubigisha uburyo bagomba kwita ku bantu bagize ikibazo.

Igikapu gifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara, kibikwamo ibikoresho bikunda gukoreshwa n'abagize itsinda, ritanga ubutabazi bw'ibanze, ku wakomeretse cyangwa ku wananiwe guhumeka kugira ngo bamufashe kumera neza.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, afite agakoma ku kaboko ke kandi ari kwimenaho amazi meza mumaso ye akoresheje icupa ryifashishwa mu kunywa amazi kugira ngo yirinde ubushyuhe.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, afite isume ku rutugu rwe, akoresha yihanagura ibyuya. Ari kunywa amazi akoresheje icupa ryabugenewe, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ufite imisatsi miremire. Yambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, aho ari kuzamura amaboko ye kugira agororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza. Imbere ye hari ikiyaga.

Imashini yifashishwa mu kwerekana uko umutima w'umurwayi uri gutera kugira ngo abaganga bakomeze kumukurikirana neza, iyi mashini kandi yerekana uko umuvuduko w'amaraso uhagaze kugira ngo abaganga bakomeze kumwitaho.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije utwuma twabugenewe kugira ngo tumufashe kugorora amaguru ye, ari kwitabwaho na muganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Umuti wo kwisiga ukunda gukoreshwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ibagabanyirize uburibwe bw'imitsi cyangwa uburibwe bw'amagufa, buri mu macupa y'umuhondo afite n'ibara ry'umweru kandi iruhande rwayo hari igikarito gifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Ahari ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwabyo hari ibyo kurya harimo imboga ndetse n'imbuto nka pome, ironje ndetse na ji byifashishwa mu kongera intungamubiri.

Ahari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, iruhande rwabyo hateretse ibikoresho by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'icupa ririmo amazi meza y'ukuywa.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe yicaye hasi ku itapi, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo bigororoke neza, inyuma ye hari intebe yo kwicaraho.

Ahari ibikoresho by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora siporo kugira ngo ubikoresheje akomeze kugira ubuzima bwiza, butarimo indwara. Iruhande rwabyo, hari imashini zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, kandi afite isaha ku kaboko ke, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko ye kugira ngo agororoke neza, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho ndetse n'imashini zifashishwa mu gukora siporo, muri iki cyumba kandi harimo umukobwa uri gukoresha izi mashini kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri. Harimo umusore uri gukora siporo kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza. Muri iki cyumba kandi, harimo imashini z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo.

Ahari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'imboga ndetse n'imbuto harimo amavoka, pome, amaronje ndetse n'ibindi bitandukanye, iruhande rwabyo hari igikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahatangirwa ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo imashini yifashishwa mu gutanga amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umurwayi kugira ngo abaganga bakomeze gukurikirana umurwayi neza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye, harimo imashini yifashishwa mu kwerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu kugira ngo abaganga bakomeze gukurikirana umurwayi.

Umusaza uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugendera ku byuma bimufasha gutambuka neza kugira ngo amaguru ye agororoke, ari kubifashwamo n'umuganga w'umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Amazi meza yo kunywa ari gusukwa akurwa mu gikoresho abikwamo ashyirwa mu kirahure agomba kunywererwamo kugira ngo uyanyweye akomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara zitandukanye.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo bigororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwizatam indwara.

Umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, afite igikoresho mu ijosi rye kifashishwa mu gupima bari kureba uko umutima w'umurwayi uri gutera bashaka kureba niba nta kibazo afite, mu ntoki ze afite ikindi gikoresho cyifashishwa kwa muganga.

Ahari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'imboga ndetse n'imbuto, ndetse hateretse n'icupa ririmo amazi meza yo kunywa. Iruhande rwabyo hateretse ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo umusore uri guterura ibyuma kugira ngo akomeze kugorora amaboko ye neza kandi amagufa ye arusheho gukomera, muri iki cyumba kandi harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gukora siporo.

Igare rifite amabara y'umukara ndetse n'ubururu rifite amapine kandi rikoreshwa n'abarwayi bafite ikibazo cy'umugongo cyangwa ikibazo mu maguru yabo badashobora guhagarara neza cyangwa ngo bakore urugendo rurerure.

Umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi afite igikoresho mu ijosi rye, cyifashishwa mu kureba uko umutima w'umurwayi uri gutera. Afite umurwayi wicaye ku gitanda, ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo amugorore neza.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa ubuvuzi bw'indwara y'amenyo. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gusuzuma umwana ukiri muto, yifashishije ibikoresho byabugenewe.

Ku kibuga kiberaho imikino itandukanye. Hari abagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze k'uwakomeretse cyangwa uwagize ikindi kibazo cy'ubuhumekero, aho bari kumufasha aryamye hasi kugira ngo bamugabanyirize uburibwe.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara y'amenyo. Hari intebe umurwayi yicaraho iyo ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma umurwayi.

Umusore wicaye hasi yambaye imyambaro ya siporo yabugenewe ndetse n'agakomo ku kaboko ke, ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo bigororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa upfukamye hasi ku itapi, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko ye ndetse n'amaguru ye kugira ngo bigororoke neza, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza, iruhande rwe hari intebe yo kwicaramo.

Icyumba kirimo nyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo umurwayi uryamye ku gitanda, ari kwitabwaho n'umuganga umuhagaze iruhande, muri iki cyumba kandi harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri. Harimo umusore uryamye hasi, wambaye imyambaro ya siporo ndetse n'inkweto byabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amagufa ye agororoke neza. Muri iki cyumba kandi, harimo imashini z'ubwoko butandukanye zikoreshwa n'ababa baje gukora siporo.

Imashini zifashishwa kwa muganga zerekana uko umutima w'umurwayi uri gutera kugira ngo abaganga bamenye neza uko bagomba gukurikirana umurwayi wabo, bityo bitazamuviramo kuremba cyane.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko ye ndetse n'amaguru ye kugira ngo bigororoke neza, imbere ye hateretse ivase iririmo ururabo ndetse n'icupa ririmo amazi meza yo kunywa.

Mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo igitanda kicaweho n'umurwayi uri kwitabwaho n'umuganga, aho ari kumupfuka aho yagize ikibazo mu kaguru ke kugira ngo hatazamo imisonga.

Igikoresho cyifashishwa n'abaganga bari kureba uko umutima w'umurwayi uri gutera cyangwa kugira ngo bamenye niba umuvuduko we w'amaraso uhagaze neza bityo bakomeze kumukurikirana neza, atazagira ibibazo bitandukanye.

Umukobwa ukiri muto, uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kurambura amaboko ye kugira ngo agororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara. Uyu mukobwa kandi, yambaye ekuteri mu matwi ye.

Umusore wambaye umupira w'umweru kandi afite ekuteri mu matwi ye ari kumviramo imiziki, ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Umukobwa ukiri muto wambaye isengeri ya siporo, afite ekuteri mu matwi ari kumviramo indirimbo kandi afite imisatsi miremire, ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko ye ndetse n'amaguru ye kugira ngo bigororoke neza, iruhande rwe hari igikoresho cyifashishwa mu kumva imiziki.

Umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda aho ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, ahina amaguru ye ndetse ayahinyura kugira ngo akomeze kugororoka neza.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, apfukamye hasi kuri tapi ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo bigororoke neza.

Umukobwa ukiri muto, ufite imisatsi miremire kandi wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaboko ye ndetse n'amaguru ye kugira ngo bigororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko ye ndetse n'amaguru ye kugira ngo bigororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahari ibikoresho by'ubwoko butandukanye nka masizo, amaga yo kwambara, imiti yo kunywa ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bibafashe mu gihe bagize ikibazo runaka.

Ibibabi by'ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, cyane cyane bari kuvura indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu, kuvura ibisebe, ibikomere, ndetse n'izindi zitandukanye.

Ahabereye ubucuruzi bw'imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye cyane cyane mu kuvura indwara zo mu nda ndetse n'indwara z'uruhu. Iri mu macupa atandukanye maremare ndetse n'amagufi, aho igiye ipanzi igerekeranye.

Ahari umuti ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba wifashishwa mu gukora isuku y'amenyo kugira ngo ukuremo imyanda iyo ari yo yose ishobora gutera uburwayi, iruhande rw'uyu muti hateretse udukoresho twifashishwa mu gukora isuku y'amenyo.

Amavuta yo kwisiga, akozwe mu bihingwa by'igikakarubamba, yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu ndetse no gutuma uruhu rukomeza koroha neza. Ari mu macupa afite amabara y'umweru ndetse na oranje.

Amavuta yo kwisiga ku ruhu akozwe mu bihingwa by'igikakarubamba ndetse n'amaronji yifashishwa mu gukuraho uduheri utwo ari two twose twaba twaje ku ruhu, bityo umurwayi akomeze kugira uruhu rumeze neza kandi runyereye.

Urubuto rw'ipapayi rwifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zo mu nda, kugugara ndetse n'ibindi bitandukanye bifata abantu bakuru ndetse n'abakiri bato.

Agakombe gato gafite ibara ry'umweru kandi kanditseho inyuguti mu ibara ry'umukara, karimo imiti yo kunywa ikozwe mu bihingwa yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane mu kuvura indwara z'ubuhumekero.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, iruhande rwabyo hari ibikoresho byifashishwa mu gutunganya iyi miti kugira ngo babone kuyigurisha.

Ibibabi by'igihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane bari kuvura indwara zo mu nda, mu kuvura indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Ibibabi by'igihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane bari kuvura indwara zo mu nda, kuvura ibisebe, kuvura indwara z'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye.

Ahari imiti y'ubwoko butandukanye, ikozwe mu bihingwa yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, iri mu macupa amagufi ndetse n'amaremare kandi igihe ipanze mu tubati hasi ndetse no hejuru.

Ibihingwa bifite amababi maremare yifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane mu kuvura indwara zo mu nda ndetse no kuvura indwara z'uruhu, zifata abantu bakuru ndetse n'abakiri bato.

Ahari ibibabi by'ibihingwa bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, iruhande rwabyo hateretse igikoresho cyifashishwa mu gutunganya iyi miti kugira ngo babone kuyikoresha.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo igisura, umuravumba, igikakarubamba, umuyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye.

Ahabereye ubucuruzi bw'imiti gakondo, ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Iri mu macupa, amaremare ndetse n'amagufi kandi iruhande rwayo hari umugore uri kubicuruza kugira ngo abihereze ababikeneye.

Umurima uteyemo ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye cyane cyane mu kuvura indwara zo mu nda, bari kuvura indwara z'uruhu, mu kuvura ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye umuravumba, igisura, igikakarubamba, umuyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara, zifata abantu bakuru ndetse n'abakiri bato.

Umuti ukozwe mu gihingwa k'igikakarubamba wifashishwa mu kwisiga ku ntoki kugira ngo wice udukoko utwo ari two twose, dushobora guteza uburwayi butandukanye, biturutse ku mwanda cyangwa ibindi bibazo bitandukanye.

Umurima uteyemo igihingwa cy'umuravumba, wifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye cyane cyane mu kuvura indwara z'uruhu, bari kuvura indwara zo mu nda ndetse n'izindi zitandukanye zifata abato ndetse n'abakuru.

Igihingwa cya tangawize kifashishwa mu gukora ibyo kunywa by'ubwoko bwinshi. Iki gihingwa kandi kifashishwa mu gukora imiti izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zifata mu muhogo.

Amavuta yo kwisiga ku ruhu akozwe mu gihingwa k'igikakarubamba ndetse na pome akoreshwa mu kuvanaho uduheri utwo aritwo twose twaba turi ku ruhu, aya mavuta ari mu icupa rifite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko wa oranje.

Umurima uteyemo igihingwa cy'umuravumba kifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane mu kuvura indwara zo mu nda ndetse no kuvura indwara z'uruhu zifata abantu bato ndetse n'abakuru.

Ibibabi by'ipera byifashishwa mu gukora imiti gakondo y'izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye cyane cyane mu kuvura indwara zo mu nda ndetse no kuvura indwara zo mu muhogo cyangwa mu kuvura ibisebe.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti gakondo, ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Iri mu macupa, amagufi ndetse n'amaremare kandi igiye ipanze mu tubati, hasi ndetse no hejuru kugira ngo itangirika.

Umurima uteyemo ibihingwa, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane mu kuvura indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu, kuvura ibikomere, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umurima uteyemo ibihingwa by'umuravumba byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane mu kuvura indwara z'uruhu, mu kuvura ibisebe, indwara zo mu nda ndetse n'izindi zitandukanye.

Isahane ifite ibara ry'umweru, iteretseho ibisate by'amaronje, yifashishwa mu kongera intungamubiri. Iruhande rwayo hateretse agacupa gato, gafite ibara ry'umweru, karimo imiti yo kunywa, ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye nka tungurusumu, tangawize, umwembe ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, zifata abantu bakuru ndetse n'abakiri bato.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa k'igikakarubamba akoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu, ari mu macupa afite ibara ry'umweru kandi hariho ifoto y'igikakarubamba, iruhande rwayo hateretse isabune ikozwe muri iki gihingwa.

Umuti wo kwisiga mu mutwe kugira ngo uvanemo indwara zose ziba zafashe ku ruhu. Ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, aho uri mu icupa rifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi kibisi kandi kuri iri cupa hariho ifoto y'igikakarubamba.

Ibibabi by'ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, iruhande rwabyo hateretse ibikoresho byifashishwa mu gutunganya iyi miti kugira ngo bajye kuyigurisha.

Ibibabi by'igihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane bari kuvura indwara z'uruhu, mu kuvura indwara zo mu nda, kuvura ibisebe ndetse n'ibikomere n'ibindi bitandukanye.

Isahani ifite ibara ry'umweru, iteretseho amaronje yifashishwa mu kongera isukari mu mubiri w'umuntu. Kuri iyi sahani kandi, hateretseho agacupa gato, gafite ibara ry'umweru, karimo ibinini byo kunywa, bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo igisura, umuyenzi, igikakarubamba, umuravumba ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara nyinshi, cyane cyane indwara zo mu nda.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu kandi uyisize akomeze kugira uruhu runyereye. Ari mu icupa rifite ibara ry'umweru kandi kuri ryo hari ifoto y'igikakarubamba.

Imiti yo kwisiga ikozwe mu bihingwa by'igikakarubamba, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ziba zafashe uruhu, ari mu macupa afite ibara ry'umuhondo, ibara ry'umweru ndetse n'ibara rya move, iruhande rwayo hateretse uducupa turimo imiti yo kunywa ikozwe muri ibi bihingwa.

Ibikarito ndetse n'uducupa turimo imiti yo kunywa ikozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane mu kuvura indwara z'uruhu cyangwa mu kuvura ibisebe.

Umurima uteyemo ibihingwa by'umuravumba byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibibabi by'ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, cyane cyane hari kuvurwa indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu, ibisebe, ndetse n'ibikomere, n'ibindi bitandukanye.

Ahari kubera ubucuruzi bw'imiti gakondo ikozwe mu bihingwa, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane mu kuvura indwara zo mu nda ndetse no kuvura indwara z'uruhu, hari umugabo wambaye ishati y'umweru, ni we uri gucuruza iyi miti.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa k'igikakarubamba, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu, ari mu macupa afite ibara ry'umuhondo kandi kuri yo hariho ifoto y'igikakarubamba.

Ahari imiti y'ubwoko butandukanye, ikozwe mu bihingwa by'igikakarubamba, yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu kugira ngo uyisize akomeze kugira uruhu rwiza rutariho ibiheri, iri mu macupa afite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye cyane cyane mu kuvura indwara z'uruhu, mu kuvura indwara zo mu nda, mu kuvura ibikomere ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahari gutunganyirizwa imiti gakondo ikozwe mu bihingwa izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye cyane cyane bari kuvura indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu, kuvura ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibibabi by'igihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye cyane cyane bari kuvura indwara z'uruhu, bari kuvura ibisebe, indwara zo mu nda, ibikomere ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibibabi by'igihingwa k'inyirabarasanya, gifite uturarabyo tw'umweru, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu kuvura indwara z'ibisebe, ndetse no kuvura indwara zitandukanye, zifata uruhu.

Ahari kubera ubucuruzi bw'imiti gakondo, ikozwe mu bihingwa by'ubwoko butandukanye. Iri mu macupa, amaremare ndetse n'amagufi kandi igiye ipanze mu tubati, hasi ndetse no hejuru.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye nka tungurusumu, gikakarubamba, igisura, umuravumba, tangawize ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye.

Umuti wo kunywa ukozwe mu gihingwa cy'umuravumba, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye nko kuribwa mu nda, kugugara, guhumeka nabi ndetse n'ibindi bitandukanye. Uri mu icupa rirerire, ribonerana, rifite umufuniko w'icyatsi kibisi.

Amababi y'ibihingwa by'umuravumba yifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye cyane cyane mu kuvura indwara zo mu nda, kuvura ibisebe, kuvura indwara z'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu. Ari mu macupa afite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo kandi kuri aya macupa, hariho ifoto y'igikakarubamba.

Ahari imiti gakondo ikozwe mu bihingwa ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane mu kuvura indwara zo mu nda, iz'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye, iruhande rwayo hari ibikoresho byifashishwa mu kuyitunganya kugira ngo babone kuyikoresha.

Ibibabi by'igihingwa cy'ikawa byifashishwa mu gukora ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye. Ibibabi kandi bikoreshwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi cyane cyane mu kuvura indwara z'ubuhumekero.

Amavuta yo kwisiga, akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, akoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, ziba zafashe uruhu. Ari mu macupa afite ibara ry'umuhondo, ndetse n'ikinombe, kandi iruhande rwayo, hateretse ibikarito birimo imiti, yo kunywa.

Umuti wo gukora isuku y'amenyo ukuramo imyanda iyo ari yo yose ndetse wifashishwa mu kuvura indwara zo mu kanwa. Ukozwe mu gihingwa k'igikakarubamba, kandi uri mu icupa rifite ibara ry'umweru ndetse n'amabara y'icyatsi kibisi, ndetse kuri iri cupa hariho ifoto y'igikakarubamba.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo umuravumba, umuyenzi, igisura, ndetse n'ibindi bitandukanye, byose byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi.

Imiti ikozwe mu bihingwa by'igikakarubamba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu, iyi miti iri mu macupa afite amabara atandukanye nk'umuhondo, umweru, umutuku ndetse n'ayandi atandukanye.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, cyane cyane mu kuvura indwara z'uruhu, kuvura indwara zo mu nda, kuvura ibisebe, ibikomere ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, yambaye agapfukamunwa kandi yipfutse mu mutwe, ari kureba ubuziranenge bw'imiti imuteretse imbere kugira ngo amenye neza niba igomba gukoreshwa.

Ahateye ingemwe z'ibihingwa by'ubwoko butandukanye, ziteretse mu mashashi kandi byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye cyane cyane bari kuvura indwara zo mu nda ndetse n'indwara z'ubuhumekero.

Ikibabi, cy'igihingwa, cy'umuravumba, cyifashishwa mu gukora, imiti, izakoreshwa, mu buvuzi, bw'indwara zitandukanye, cyane cyane bari kuvura indwara z'uruhu, ndetse n'indwara zo mu inda. Iki kibabi kandi, giteretseho, ibinini, byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi.

Umurima uteyemo igihingwa k'igikakarubamba, kifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye, cyane cyane mu kuvura indwara z'uruhu ndetse no kuvura indwara zo mu nda, zifata abato ndetse n'abakuru.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zo mu nda, bari kuvura indwara z'uruhu, kuvura ibikomere, ibisebe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umurima uteyemo ibihingwa by'umuravumba byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye cyane cyane bari kuvura indwara zo mu nda, mu kuvura indwara zo mu muhogo, kuvura ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye.